Abantu bari mu murima wegereye urutoki, bamwe barunamye bari gufata ifumbire, abandi bambaye inifomo bari kubereka uko bahinga.

Amabasi menshi ateretse hasi afite amabara atandukanye arimo umuceri n'igikombe cyo kudahisha umuceri.

Imifuka myinshi itandukanye itondetse hamwe, hejuru y'imifuka yagiye yariho utubuye, hari abantu benshi baje kuyitwara.

Abantu babiri bicaye mu bubiko bw'imiti, harimo utubati dufite ibyumba byinshi tubitsemo imiti itandukanye, undi ari kureba muri mudasobwa.

Igikuta cy'inzu kiriho amagambo atandukanye hariho igishushanyo cy'umutwe w'inka, karoti n'urunyanya, mu idirishya ry'iyo nzu hari kugaragaramo ifoto irimo inyubako irimo abantu n'imodoka iparitse.

Inzu irimo utubati tubisemo imiti y'ibihingwa irwanya udukoko, harimo umugabo ufashe icupa mu ntoki, wambaye itaburiya na ga.

Icyumba gisa neza kiriho kandagira ukararabe ku muryango, imbere harimo akabati kabitsemo amacupa n'ibikarito bitandukanye.

Umurima munini w'imboga z'amashu, hagati mu murima harimo akayira ko kunyuramo, harimo umugabo uhetse imashini uri gutera umuti mu mboga.

Umugore uri mu murima w'ikawa wunamye uri gushyira ifumbire mvaruganda ku giti cy'ikawa gishishe.

Abantu benshi bari mu murima barimo guhinga, bamwe bafite ifumbire mu ntoki bari kugenda bashyira mu byobo, undi afite ibase irimo imbuto ari kugenda atera.

Imifuka myinshi itandukanye, itondetse neza, mu tubati dufite ibyumba bigiye bitandukanye, harasukuye harakeye, harimo n'ibyuma bitandukanye.

Abantu benshi bari hagati mu murima, urimo urubingo rubakikije, bari guca umuringoto hagati.

Imifuka myinshi itondetse ku mbaho, imbere hari umufuka umwe uteretseho igikarito cyanditseho amagambo aranga imbuto zikirimo.

Icyumba gisa neza cyane cy'ububiko bw'imiti, harimo utubati tubitsemo imiti itandukanye, hakabamo n'ameza manini, ariho igitabo cyo kwandikamo.

Abantu benshi bari mu murima w'ibigori, bafite imifuka mu ntoki zabo, bari gushyira ifumbire yo kubagara ku bigori byabo.

Icyumba kirimo utubati, turimo ibyumba bitandukanye, tubitswemo imiti y'ubwoko bwinshi ijyanye n'ubuhinzi.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi bisa n'ibyeze, ibiti byabyo byose byarumagaye.

Umurima uhinzemo imyaka, hagati harimo ibiti birebire, inyuma yaho hari ibigori bisa n'ibyeze, ibiti byabyo byumye.

Ingemwe z'ikawa zifumbiye mu mashashi, zirunze hamwe ari nyinshi zameze zishishe.

Igiti cy'ikawa kigonze, kiriho ibitubwe by'ikawa byinshi, hariho n'izindi kawa zeze, zihishije, gifite n'amababi atoshye.

Inyanya nziza zishishe zenda kwera ariko zitaratukura, zifashe ku biti byazo hagati harimo umugozi uziritse w'umukara.

Umurima uhinzwemo ibintu byinshi bitandukanye. Hagaragara cyane ikigori kinini gisa neza gishishe kigiye kwera.

Intoryi ziri mu murima zifashe ku giti cyaho zitarasarurwa, igiti cyazo kiratoshye, hakaba umugozi wambukiranyije uyura ku giti cy'urutoryi.

Ikiganza gifashe ku ikawa iteye mu murima, iri kwerekana uko imeze iri kuzani uruyange.

Umurima mugari uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo amateke, hakabamo insina, harimo n'inzu yubatse haruguru yawo.

Igifumbiro cy'ibiti Kigali. Ibiti bifumbiye byatangiye gukura. Hagaragara ikiganza cy'umuntu ari kwerekana uko bimeze.

Igiti cy'ikawa kigonze, kiriho ikawa nyinshi cyane zeze neza, zose zihishije nta n'imwe isigaye.

Ingemwe nyinshi ziri hamwe zihombetse mu masha yazo, zarakuze ziri hafi guhingwa.

Umugabo uhagaze mu murima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye, ibyiganje, insina zikiri ntoya ,ndetse n'intoryi n'ibindi bitagaragara neza.

Umurima uhinzemo imyumbati ikiri mito ishishe, iruhande rwayo hari ibigori hepfo yayo hari igisambu kirimo ibyatsi bitandukanye.

Ibitoki byinshi birunze hamwe byasaruwe, hari kimwe gifashwe n'akaboko k'umuntu uhagaze hejuru y'ibindi.

Umugore uri guseka wambaye ingofero n'umupira w'imbeho. Ufashe ingemwe eshatu mu kiganza kimwe, akandi kaboko gafashe isuka.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, ariko igihingwa cyiganje cyane kigaragara ni insina zikiri ntoya zitaratangira kwera ibitoki.

Imboga z'ubwoko butandukanye ziri mu murima zihinze zitatanye, harimo izizamuka zikaba ndende hakabamo amashu n'izindi ziranda hasi.

Umugabo uhagaze ku byatsi biri mu murima hagati, uhinze, ibyo byatsi bitandunya umurima n'undi.

Ibirayi byiza byeze neza biri mu mufuka byuzuye, hari n'indi mifuka ikikije ku ruhande bigiye kugurishwa.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, hagaragara insina zikiri ntoya zifite imibyare, harimo n'ibindi biti by'ubundi bwoko bisa neza.

Umurima mugari w'ibijumba bitarera imigozi yabyo ni ubwoko butandukanye irashishe kandi isa neza.

Igifumbiro kirimo ikawa nyinshi z'ingemwe, hagati harimo akayira, umuhinzi afashe urugemwe rumwe mu ntoki arimo ararwerekana uko rumeze.

Ikiganza gikoze mu mufuka w'umuceri, kiri kutwereka uko umuceri umeze ubengerana.

Imirima ibiri ibangikanye hari uhinzemo imyumbati, undi uhinzemo ibigori byeze neza bifite ibiti byumye.

Umurima w'amasaka meza cyane ashishe, afite amahundo atarera ngo agere igihe cy'isarurwa.

Imineke myiza ya kamara ihiye iteretse ku meza ndetse itangiye kwimanyura ku maseri yayo.

Ingurube nyinshi ziri mu kiraro cyazo, zifite amabara atandukanye, zirimo kurya ibiryo bazimineye hasi mu kiraro.

Icupa ry'umweru riteretse ripfundikiye, ryanditseho uburyo bwo korora mikorobe.

Ingurube ziri hamwe mu kiraro cyazo zirimo kurira mu kariro kazo, inyuma y'aho hateretse umufuka, mu kiraro hakoreshejwe sima.

Igikarito n'icupa biteretse hamwe ku meza, inyuma hariho amagambo avuga ibirimo hakabaho n'igishushanyo cy'inka n'intama n'andi matungo yo mu rugo.

Icyapa kinini kiri ahantu hameze nko ku isoko ku muhanda, kiri kuranga kerekana ibigize ibiri muri icyo cyapa bijyanye n'ubworozi, gutanga amakuru.

Intabire n'ini irimo umugore uri gutera, haruguru ye hari akana gahagaze, inyuma ye hari igikarito mu byatsi.

Umurima urimo abantu babiri, uhinzemo ibihingwa bitandukanye, hagati hari intabire, hagaragara n'insina ndende zirimo.

Abantu benshi bafite ibitiyo mu ntoki barimo gusanza ibitaka, harimo abagabo n'abagore barimo n'abambaye inifomo.

Umurima urimo urutoki, iruhande rwawo hari icyobo gikikijwe n'itaka, hari umugabo ufashe isuka urimo gusaza itaka rikikije icyobo.

Abantu bane bari mu murima bose bafite amasuka barimo guhinga umurima, inyuma yabo harimo insina, ku ruhande hari amakoma.

Abantu bari mu murima bafite amasuka, harimo umugore uhagaze nta suka afite, inyuma yaho hari umurima w'insina n'ibiti birebire.

Umugabo ufite isuka uri guhinga mu ntabire irimo amateke. Inyuma ye hari ibigori byiza.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, higanjemo insina nyinshi, hakabamo n'amateke, harimo abantu babiri, umwe yunamye.

Abantu benshi bahagaze mu murima bafite amasuka, harimo n'abadafite amasuka basa n'abari guhinga, inyuma yaho hari imirima ihinzemo.

Abantu benshi bari mu murima w'ibigori bitarera, hasi mu murima harimo ubunyobwa butarera, inyuma yabo hari ibiti birebire binini.

Abagabo bane, bari mu gisambu cy'iri iruhande rw'umuhanda, kirimo ibyatsi bitandukanye, umwe yunamye asa n'uri kurandura ibyatsi.

Umuntu ufashe isuka, urimo guhinga mu murima w'ibigori bitarera neza, harimo n'ibyatsi hasi mu murima.

Umugore uri mu murima w'ibigori ufashe isuka mu ntoki, usa n'uri gucukura ibyobo, hepfo ye hari ikibaya, hakurya hubatse amazu, iruhande rw'umurima hari ibiti bitandukanye.

Abantu benshi batandukanye bafite amasuka bari guponda icyondo cyo guhomera umuturage inzu y'ibiti.

Umurima munini uhinze harimo umuntu wabyize, uri gupima ibipimo by'aho guhinga, inyuma yaho hari ikigo cy'amashuri kinini.

Umurima urimo urutoki, insina nyinshi hahinzemo amateke, hakaba harimo umugabo wambaye bote usa n'uri gufumbira imbuto mu rutoki.

Umurima w'imboga mugari cyane, harimo umukobwa uri kuhira, ari no kuri terefone, yambaye ingofero.

Abagabo babiri bari mu murima bafite amasuka bari guhinga. Umurima urimo insina n'ibigori barimo barazamura itaka.

Abantu babiri bari mu murima, bari guhinga, inyuma yabo bazengurutswe n'ibiti birebire, imbere yabo hari urutoki rwinshi.

Abantu benshi, bafite amasuka. Bari mu kayira, hepfo yako ari ibyatsi n'ibiguri byatsi. Hepfo hari imyaka ihinze, basa n'abari gukora umuganda.

Umurima munini w'ibigori byeze ariko bitarasarurwa. Harimo umugore ufite isuka uririmo guhinga.

Abantu babiri bari mu murima mugari w'ibishyimbo bikiri bito biri kuzamuka, barimo guhembera kugira ngo ibiti bizabone aho bishamika biri gukura.

Icyumba gisa neza cyane, gitondetsemo imifuka y'amabara atandukanye. Itondetse mu buryo butatu, ibihande bitandukanye.

Imifuka myinshi itondetse ahantu hamwe, irimo imyaka yasaruwe, yose yuzuye cyane.

Imifuka itondetse ifite amabara atandukanye, irunze ahantu hamwe mu bubiko bwayo.

Ikibaya kinini kiri iruhande rw'ikiyaga, gihinzemo ibigori bikiri bitoya bitarera, hagati harimo abantu benshi barimo kubagara.

Abantu benshi bahagaze bakikije ibitoki birunzwe hamwe byasaruwe, bisa n'ibiri ku isoko biri kugurishwa.

Umurima munini w'ibigori byenda kwera, bifite imisharara. Hakurya yabyo hari umusozi, hari kuva izuba mu kirere cyaho.

Imifuka iri hamwe myinshi, irimo imyaka igiye itandukanye, iri ku isoko iri kugurishwa.

Isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye, hari imyenda imanitse mu isoko, hakaba imbuto z'ubwoko butandukanye, ziri ku dutara two mu isoko, ziri kugurishwa harimo intoryi n'inyanya na karoti n'izindi nyinshi.

Abantu barikubika inyanya mu mufuka, undi arikuzishyira mu isafuriya, ni nyinshi zirunze hasi zasaruwe.

Avoka nyinshi basararuye, zirunze hamwe mu gikarito, zibikiwe kugira ngo zishye zicuruzwe.

Inzu isaruriwemo imyaka, ibigori byinshi bisharitse ku biti, bitondetse neza ku murongo.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziri ku gasoko, zirunze ku ntara. Harimo imineke, amatunda, indimu, amacunga n'izindi zitandukanye.

Umurima munini w'ibirayi byenda kwera. Harimo abagabo babiri barimo gutera umuti wica udukoko.

Imifuka myinshi ipakiyemo imyaka yasaruwe, imifuka irunze hamwe ahantu hasukuye hasa neza.

Avoka ziri hamwe, zasaruwe. Ziri mu dutebo twa kizungu, dutandatu. Zitegereje gushya, ngo zigurishwe.

Imifuka myinshi y'amabara atandukanye, itondetse neza mu bubiko bugari, isa nk'aho igiye kugurishwa, iri ahantu heza hasukuye.

Imyaka yasaruwe iri mu mifuka itandukanye, irunze ahantu hamwe, itondetse, irimo kugurishwa.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, ibyatsi byo hasi n'ibyatsi bizamuka birebire, harimo n'igiti cy'ikawa kirekire kitari cyera.

Umurima uhinzemo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo amateke, insina ziri hirya n'ibiti birebire, hagati harimo igihwagari kirekire kigiye kwera.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, ibirebire n'ibigufi, ibyatsi bito n'ibinini, harimo amahwa y'ibitovu n'ibindi bivangavanze.

Ishyamba ririmo ibiti birebire harimo ibinini n'ibito, bisa nkaho bwenda kwira hasi harimo ibyatsi birandada hasi.

Ishyamba ririmo ibiti byumye, bibiri birambitse hasi, iruhande rwabyo hari ibyatsi bigufi byo mu gihuru.

Inzu isakaje amategura ikikijwe n'ibiti bitandukanye, harimo avoka na gereveriya ndetse n'insina, munsi y'inzu hahinze umurima w'igikoni wa kijyambere.

Ibyatsi byinshi bitandukanye harimo ibimerera hasi, harimo ibizamuka birandaranda, harimo indabo z'imvange, hasi yaho hafi yaho hahinze imboga z'amashu.

Ishyamba rinini ry'inzitane, ririmo ibiti birebire, bigiye bifatanye, hagati y'ibiti harimo inzira, ikomeza hagati yabyo mu ishyamba.

Igiti cyiza cy'ipapayi gishishe, gifite uruyange cyenda kwera, iruhande rwacyo gikikijwe n'imboga za dondo.

Umurima uhinzemo imboga zitandukanye, harimo amashu, harimo sereri izengurutswe n'indabo hafi y'umuhanda.

Igiti cya avoka kirekire gifite amashami menshi n'ibibabi bitoshye, gifite avoka nyinshi zigiye kwera.

Ibiti binini birebire, bitandukanye n'ibigufi, bisa n'ibikikije urusengero. Mu busitani harimo ibiti bikuze n'ibikiri bitoya bishishe.

Umurima uhinzemo imyaka itandukanye, harimo insina harimo amateke, hamezemo n'ibyatsi bikikijwe n'ibiti birebire cyane.

Ibiti by'ubwoko butandukanye, biri hamwe. Harimo ibishishe, harimo ibirebire n'ibigufi, ibibyibushye n'ibinanutse.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye, birebire ibinini n'ibinanutse, hasi harimo ibyatsi byo hasi.

Ibiti birebire biri iruhande rw'umuhanda, hejuru hagati yabyo hanyuramo insinga z'amashanyarazi.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye birebire n'ibigufi, ibinini n'ibito, ku ruhande rumwe hari ibyatsi ahandi nta byatsi bihari, hari ibifite amashami n'ibitayafite.

Umurima w'imbuto z'amatunda maremare atoshye yenda kwera, hari kumurikamo izuba mu mababi yayo, bisa neza.

Ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye, harimo indabo ndende z'ibiti birebire, haruguru hari inzira inyuramo abagenzi.

Umurima mugari w'imboga z'amashu, zikiri ntoya zitarera, harimo abantu babiri bari kuhira.

Ubusitani bwiza buri imbere y'inyubako, harimo indabo zitandukanye, izizengurutse n'iziri hagati mu busitani.

Ibihaza bine bitandukanye. Harimo ibinini n'ibito. Bireze neza, birambitse hasi bisa n'ibigiye kugurishwa.

Umukobwa ufunze imisatsi uri mu murima w'imbuto, ufashe ku kibabi k'igiti k'itunda, ugiye gusoroma amatunda yeze.

Isoko ry'imbuto ririmo abantu bari gucuruza, hari imbuto ziri ku gatanda ko gucururizaho harimo ipapayi, inanasi n'izindi.

Ubusitani bw'indabo nziza ziri hamwe, z'ubwoko butandukanye, izifite uturabo n'izitadufite, hirya yazo hari igiti gishinze.

Umurima w'ibiringanya, bisa n'ibyeze, hasi mu murima hasasije ibyatsi byumye, hari ukuboko gufasha igiti cy'ibiringanya.

Umurima mugari uhinzemo, urimo abantu bunamye basa n'abari kubagara, n'abandi bari kuhira benshi.

Karoti nyinshi harimo n'amatunda make, zirunze hasi kuri shitingi harimo akabase ko gupimisha bari kuzigurisha.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziri mu mifuka ku gasoko zenda kugurishwa, harimo amatunda n'ibinyomoro n'izindi zitandukanye.

Igiti cyiza cya voka, kiri iruhande rw'urugo, gishishe, ariko kitarazana uruyange ngo cyere avoka.

Imbuto z'ubwoko butandukanye zirunze hamwe mu gisanduku cyo gucururizamo izindi ziri mu mifuka harimo amacunga akase.

Igiti cy'umukindo cyiza cyane, gikikijwe n'indabo zizengurutse ubusitani, hagati harimo ibyatsi bigufi byo hasi.

Abantu babiri, umugabo n'umugore, uteze igitambaro, bagaragara ko bishimye, bafashe imboga mu ntoki zishishye cyane nziza.

Imiteja yasaruwe isa neza. Irunze hamwe mu ibase nini itukura.

Abantu bari mu gisambu bari kugenda, umwe muri bo wambaye umupira w'umweru, afite urugemwe mu ntoki n'urupapuro mu ntoki, inyuma yabo hari inyubako yicayeho abantu benshi.

Imboga z'ubwoko butandukanye, zirunze hasi ku mufuka, harimo imiteja, intoryi, n'ibitunguru. Hari abantu batatu, bazifashe mu ntoki barimo kuzerekana.

Ibiribwa birimo imboga, imineke, amashaza, avoka, imiteja n'ibindi bitandukanye birunze hasi gikapu biri gucuruzwa.

Abantu bane bari mu murima w'imbuto abagabo babiri n'abagore babiri, babiri bateruye ibase irimo amatunda menshi, basa n'abari kugurisha berekana n'uko amatunda ameze.

Akabati gakozwe n'imbaho, karimo ibyumba bitandukanye; harimo betarave, indimu, amacunga n'amatunda, birimo gucuruzwa ku gasoko.

Abantu bari mu murima bari guhinga akarima k'igikoni ka kijyambere, ni batatu bari hamwe babiri bafite amasuka mu ntoki undi ari kubereka uko batera imboga, inyuma yaho hahinze ibishyimbo n'amateke bivanze.

ibitunguru byinshi, birunzwe hamwe byasaruwe. Birimo amabara atandukanye, iby'umutuku n'ibyumweru, binini n'ibito.

Umukobwa uhagaze hagati y'ingemwe. Mu tuyira tugiye turi hagati, y'ibifumbiro. Arimo kwitegereza.

Imboga nyinshi zirunze hamwe z'ubwoko butandukanye ,hari ibitunguru biri mu ibasi, dodo zirenze ku meza, karoti zirunze ku mufuka na puwavuro birimo biracuruzwa.

Ubusitani bw'indabo nziza buri hafi y'umuhanda, harimo indabo ndende zakuze n'izindi ngufi z'ubwoko butandukanye.

Indabo nziza zitandukanye zihinze, iruhande rw'igipangu, iruhande rwaho hakikije sima.

Ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye, harimo n'umukindo, iruhande rw'ubusitani, hari akayira kerekeza ku nyubako, hakaba harimo n'icyapa kiyobora abagenzi.

Umurima uhinzemo ibintu bitandukanye; ikigaragara cyane ni ipapayi ifite amapapayi menshi n'ibibabi byiza bitoshye. Ipapayi zayo ntago zari zera.

Umusore muremure wambaye ingofero n'isaha y'umukara, ufashe ku giti cya avoka, uri ahantu mu murima uhinzemo imbuto zitandukanye, arimo aritegereza voka afasheho.

Igiti kinini kirekire, gifite ibibabi bitoshye cyane. Munsi y'icyo giti harimo ibindi biti by'indabo bitandukanye, biri mu murima umwe.

Umuntu uri mu murima wunamye, umurima ukikijwe n'ibigori n'amateke, hafumbiye, amaze gutwikurura ngo arebe ko imbuto zameze.

Igiti kinini cyiza cy'avoka, gifite avoka nyinshi zigiye kwera, kiri hagati mu murima ufumbiyemo izindi mbuto zitarakura.

Mu murima munini mugari, uhinzemo ibishyimbo n'ibigori, iruhande rwaho hari ibiti bitandukanye, harimo umugore usa naho ari kubagara imyaka.

Umwana muto, ufashe ingemwe mu ntoki, uri iruhande rw'igifumbiro wambaye bodaboda.

Ibinyomoro byinshi biri mu basi y'ubururu, iruhande rwaho hicaye umuntu urimo kubicuruza ku muhanda.

Abantu babiri umugabo n'umwana, bari mu murima w'inyanya, bafite inyanya mu ntoki basoromye zihishije.

Umurima uhinzemo karoti n'amateke. Harimo abantu bunamye, barimo kubagara imyaka.

Akarima k'igikoni ka kijyambere, gahinzemo imboga za dodo nziza zishishe zeze zikikijwe n'imiyenzi.

Umurima w'ibirayi ukikijwe n'umurima w'amasaka harimo n'insina imwe imwe, harimo umugabo ufite imashini mu mugongo iri kumufasha gutera umuti.

Umurima wa karoti, nkeya zitatanye, zisa n'izeze iruhande rwaho hari ibindi byatsi.

Abantu batatu bari iruhande rw'inzu ikikijwe n'imiyenzi, barimo kubaka akarima k'igikoni ka kijyambere, umwe muri bo ari imbere mu karima k'igikoni ari kubaka.

Umugabo uhagaze mu murima w'imbuto wambaye ishati itukura, uri kwitegereza itunda afashe ku kibabi.

Ibiti byakuze, birebire cyane, bitoshye, biri iruhande rw'inzu biyisumba.

Imboga z'ubwoko butandukanye zirunze ku mufuka hasi, intoryi, dodo, karoti n'ibihaza, ni abantu batatu bicaye imbere y'ameza hariho inyanya, babiri bari kwerekana inyanya ziri mu ndobo.

Akarima k'igikoni gahinzwe mu buryo bwa kijyambere, gahinzemo imboga zitandukanye. Harimo dodo na karati, iruhande rwabo hari abagore babiri bishimiye izo mboga.

Ibitunguru byinshi birunze hamwe, byasaruwe, byeze neza. Bitegereje kugurishwa.

Umurima w'imboga zitandukanye, ukikijwe n'indabo n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye, harimo dodo zeze cyane n'izindi zitarera.

Imboga zitandukanye zirunze hejuru ku rutara ku mufuka, harimo karoti, imiteja, inyanya, ibitunguru na puwavuro biri kugurishwa.

Umurima wa karoti zisa neza cyane, zigiye kwera, inyuma y'umurima hari uruzitiro rwubatse.

Akarima k'igikoni ka kijyambere kari hafi y'umuhanda, gahinzemo imboga za dodo nziza zishishe gakikijwe n'ibindi byatsi bitandukanye.

Umurima wa karoti wegeranye n'umuma w'ibitunguru, hepfo y'aho hari umurima w'ibigori, hagati hagiye harimo akayira ko kunyuramo.

Indabo z'ubwoko butandukanye ziteye inyuma y'uruzitiro rw'urugo, harimo indende n'ingufi, harimo n'izifite uturabyo twazo.

Umurima uhinzemo imyaka isa neza cyane, harimo umugore wunamye uri kubagara, imbere ye hahagaze umwana, hepfo y'umurima hari inzu isakaje amategura.

Ubusitani bwiza cyane, burimo indabo zitandukanye. Harimo ibiti birebire, haruguru harimo imikindo, yakuze, n'inzu yubatse.

Tangawizi nyinshi ziri mu ibase itukura, harimo n'umufuka, zigiye kujyanwa gucuruzwa.

Ameza arambuyeho umufuka, ariho ibitunguru na tungurusumu bivanze n'umuneke, hariho umunzani uriho isahane, iruhande rwabo hari intara irambitseho ijerekani, basa n'abari gucuruza.

Igifumbiro kirimo ingemwe nyinshi zitandukanye. Harimo izikuze n'izikiri ntoya. Harimo abantu bunamye basa n'abaje gutwara ingemwe zo gutera.

Imineke myiza ya kamara, ihiye neza. Hariho amaseri atandukanye, ari ku ntara iteretse hasi, bisa n'ibiri gucuruzwa.

Amaboko afashe ibitunguru bitanu mu ntoki bisaruwe bisa neza, ibinini bitatu n'ibitoya bibiri.

Umurima w'imboga urimo imboga za dodo, harimo izeze cyane n'izitarera cyane, n'ibindi biti bizikikije birebire.

Ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye, zizengurutse, hagati mu busitani harimo imikindo myiza cyane. Iruhande hari inzira yinjira mu nyubako.

Umurima mugari w'amashu imboga nziza cyane, harimo umugore urimo kuhira, ari guseka wambaye ingofero.

Umurima urimo ibihingwa, bisa neza cyane bitoshye, hari umugore uri kubyuhira, wipfutse igitambaro cy'umweru, uteze n'igitambaro mu mutwe.

Umusore uri mu murima uhinzemo imboga z'amashu. Hirya hari urutoki, arimo kuzana isasiro mu murima w'imboga.

Uruzi rw'amazi atemba iruhande rwaho hari umugabo ufite itiyo iri gukora mu ruzi, muri icyo kibaya hahinzemo ibigori byinshi cyane.

Umurima uhinzwemo imboga harimo abantu benshi batandukanye abagabo n'abagore bahetse abana, hari umugabo umwe uri kuhira imboga.

Umurima w'imbuto urimo abagabo batatu, umwe afite ikayi ari kwandika, undi ari kuhira, undi ari gutambuka iruhande rw'umurima.

Umurima munini w'ibigori, bikozeze harimo amatiyo ari kuhira umurima mu buryo, bw'ikoranabuhanga, ntawabikoresheje.

Umugore uri mu murima w'imboga uhagaze mu kayira kari hagati y'umurima n'undi uri kuhira akoresheje indobo itukura.

Umurambi mwiza urimo imirima myinshi itandukanye, imwe hahinzemo imyaka, ahandi hataraterwa imyaka, hagati y'imirima harimo inzu yo kubamo.

Inzu zubatse mu buryo bumwe ku mudugudu, imbere yaho hari imirima yo guhinga, hari n'umukobwa uri kumanuka, zigiye zifite ibigega bijyamo amazi y'imvura.

Inzu isakaje amategura iri ahantu hahanamye, imbere y'aho hahinze imyaka itandukanye, inyuma yaho hahinze icyayi n'ishyamba rinini.

Igisambu kinini kigari, kirimo ibyatsi byo hasi. Ku ruhande hari igicucu gisa n'icy'ibiti biri ku ruhande bihakikije.

Ahantu hitaruye, hakurya hari imisozi, hino hari ikibaya, harimo abantu benshi bari hamwe.

Imirima iri ku murongo y'amaterarasi, ihinzemo ibihingwa bitandukanye, haruguru yaho hubatse amazu.

Ikibaya cyiza gihinzemo umuceri usa neza, hakurya yaho hari ishyamba, urutoki n'amazu.

Igishanga gihinzemo umuceri, hakurya yacyo hari ibiti birebire nk'insina, haruguru hari amazu yubatse.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye: harimo urutoki, insina nyinshi, hakabamo ibishyimbo, n'ibigori, hakaba harimo n'abantu bari gutambuka mu murima.

Ahantu hitaruye harimo amazu hakabamo n'imirima itandukanye, hari ihinze hakaba irimo imyaka iri kumera, hakaba harimo n'imyaka yeze yahinduye amabara.

Igisambu kinini kirimo ibyatsi. Haruguru hari ibiti birebire. Hakaba hahagaze n'abantu. Hirya hakaba hari inyubako, isakaye, yegereye ibiti.

Imirima ihinze, iri ku murongo y'amaterasi, iruhande rwayo hari ibiti bitandukanye, hateye n'insina, harimo abantu.

inka nziza iri mu kiraro cyayo, ifite icebe rinini bisa nkaho ikamwa ndetse yonsa, ifite ubwatsi imbere yayo irimo kuburya.

Inkoko nyinshi ziri imbere y'inzu zimwe zirimo gutora, iruhande rwazo hari agatebe k'imbaho ahandi hari ikigega kijyamo amazi.

Ingurube iryamye hasi iri kumwe n'ibibwana byayo biri konka. Iruhande rwabyo hari ibyatsi mu kiraro.

Abantu batatu bari mu rugo, harimo umugabo n'umugore n'umwana w'umukobwa w'umunyeshuri. Bahagaze imbere y'ikiraro kirimo inka zirimo kurya, umwana afite ubwatsi na se bari guha inka.

Umugabo n'umugore n'abana bahagaze imbere y'inzu, umugore akikiye umwana afashe ihene mu ntoki n'umugabo afashe ihene mu ntoki, umwana umwe afite igikapu.

Ni icyumba cyubatse, kidahomye, kirimo inkoko, harimo n'umuntu urimo kugaburira inkoko arimo yitegereza uko zitobora.

Inka ebyiri ziri mu kiraro cyazo zikiri ntoya, imwe yambaye iherena ku gutwi, zose ziri kurya ubwatsi buri imbere yazo.

Ihene ebyiri, ziziritse mu kiraro, ziri kurya ibyatsi biri mu kiraro, ikiraro cyubakishije ibiti n'imbaho, hino n'igikuta cy'inzu.

Inka, iri mu kiraro cyayo, yambaye iherena ku gutwi, ifite ubwatsi mu kanwa iri kurya, n'imbere yayo harimo ubwatsi.

Ihene ebyiri zikiri nto, ziziritse ku rugo rw'ibiti, ku ruhande rwazo hahagaze umwana w'umuhungu.

Inkoko z'amabara atandukanye, ziri hamwe, ziri gutora ibyo kurya hasi, ebyiri zihagaze ku mufuka.

Ihene ebyiri nkuru ziri mu mbuga, iruhande rwazo hari utwana tw'ihene tubiri, imbere yazo hari umugore wunamye uri kuzira ubwatsi, n'umwana uhagaze ku ruhande.

Inkoko nyinshi zirimo gutora, ziri munzu ya zo harimo inkuru n'udushwi dutoya, harimo n'iryamye hasi yarambuye amababa.

Ihene iryamye hasi n'indi ihagaze; ziziritse ku nsina iri imbere y'inzu, inyuma yaho hari ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ingurube eshatu z'umweru, ziri mu nzu yazo yijimwe mo gake, zisa nk'izishaka gusohoka, ziri kureba imbere mu ryango.

Inka nziza y'inkungu ifite icebe rinini iri mukiraro kidasakaye cyubakishije ibiti iri kureba hanze.

Ihene y'umukara, ifite amahembe, iziritse mu kiraro, irimo kurya ibyatsi bishashe hasi mu kiraro cyayo.

Inyanya nziza cyane ziri mu murima. Harimo izigiye kwera zahishije, hakabamo n'izitarera z'ibitumbwe.

Abantu babiri bari imbere y'umurima w'imboga zitandukanye. Harimo dodo, amashu, inyuma yaho hari abandi bari kubareba.

Umurima w'ibishyimbo n'amashaza biri kwera byenda gusarurwa, harimo umugabo urimo kubyegura abyerekeza ku biti kugira ngo byere kuryama hasi, yambaye ingofero yambaye n'isaha n'agapfukamunwa.

Umurima munini w'ibirayi bihinze mu buryo bwiza, biri ku murongo, biri hafi kwera, bifite uturabo hejuru ku mitwe yabyo.

Ibigori byinshi byasaruwe biri hamwe bisharitse ku biti bibiri bihagaze n'ibindi bitambitse.

Umurima w'ibigori byeze cyane n'amababi yabyo yarumye.

Umuntu uri mu mahema waciye bugufi, arimo kwerekanya inyanya nziza harimo izeze zitukuye n'izindi zitarera.

Igifumbiro cy'imbuto zisashije ibyatsi, haruguru hari ahubatse ibiti bihagaze, hasakajwe ibyatsi.

Umurima w'ibigori, byumye, haruguru hagati harimo ibiti bishishe , ruguru yaho har'amazu yo kubamo.

Abagabo n'abagore bari mu murima w'ingemwe, barimo kuhira ingemwe, zatangiye gukura, inyuma yabo, hari izindi ngemwe zitarakura.

Abagabo bari mu busitani, hari n'imbwa, hari n'umuvuzi w'amatungo, bisa nk'aho ari kuzitera inshinge.

Inka y'amahembe maremare iri mu rupangu, iruhande rwayo hari abagabo babiri, umwe ayifashe inyuma ku murizo, yenda kuyitera umuti.

Urwuri rurimo inka nyinshi, zitandukanye harimo umugabo wambaye isarubete na bote, urimo kugenda iruhande rw'inka.

Inka iri mu muhanda yambaye iherena, ishorewe n'umugabo wambaye bote z'umweru, inyuma yaho hari moto.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe mu gisambu, harimo abashumba bazo, harimo n'abandi bantu bari kugenda, igisambu kirimo ubwatsi butoshye rwose.

Inka nziza yambaye iherena ku gutwi y'inkungu, iri mu kiraro cyubakishije ibiti, mu kindi kiraro naho harimo indi nka.

Abantu bari mu isambu, zikikijwe n'indabo, imbere yabo hari imbwa, ziryamye mu byatsi, umugabo umwe yegamiye igiti.

Icyumba kirimo ameza manini arambitseho ibitabo n'impapuro, hari igikombe kirimo amata, hari akaboko gafashe igipimo kiri mu mata, kiri gupima.

Umukumbi w'inka uri ahantu hagari. Haruguru yawo hari ibiti. Hirya yawo hari amatara ku muhanda.

Isha iri mu ishyamba, ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye birebire, hakaba harimo n'ibyatsi bigufi bisa n'ibyumye.

Inyoni iri mu ishyamba, ihagaze ku giti ku ishami ryacyo, iririmo kwiritegereza hakurya igiti ihagazeho cyiza gikikijwe n'amababi atandukanye.

Inyubako ziri iruhande rw'umuhanda, zifite amarembo akingishije urugi rutukura n'amadirishya atukura, iruhande rw'umuhanda mu nzira igana ku nyubako hari amabuye.

Inkende iri hagati mu kibuga, inyuma yayo hari ibyatsi n'ishyamba.

Igisiga giteye ubwoba kirambuye amababa kiri kuguruka kireba imbere, gisa nk'ikiri kuva mu ishyamba kijya gushaka ibyo kurya.

Imbwa isutamye hasi mu twatsi, iri kureba hasi yasamye, yasohoye ururimi rwayo.

Ingwe'ubugondo iri kuva mu ishyamba igeze ahantu hari utwatsi dukeya, irimo kureba imbere izinze umurizo.

Inkende iri mu ishyamba. Ihagaze ku ishami ry'igiti, igiti gifite amababi. Hari kuva akazuba muri iryo shyamba.

Imparage ziri hamwe zisa neza n'amabara meza, hirya yazo hari ibiti birebire bisa n'ibyumye, aho zihagaze hari ibyatsi.